Umwana uri kwitabwaho n'ushinzwe ubuzima, aho ahabwa ikinini ndetse ari kugihabwa n'umudamu wambaye umupira w'umutuku n'ingofero y'umweru ndetse afite agapfukamunwa ku munwa aho inyuma ye hicaye abandi badamu akaba ari kumwe n'undi mugabo nawe ufita agapfukamunwa wambaye umupira w'ubururu bweruye.

Umubyeyi wambaye umupira w'umweru n'ijiri y'igitaka ingofero y'umweru amarineti y'umukara ndetse akaba yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru aho ari guha abana amata bambaye imipira ya oranje ndetse inyuma y'uwo mubyeyi hakaba hari umusirikare ndetse n'abandi bantu bambaye imipira y'umweru bari kumwe.

Kwita ku bana ni imwe mu bintu by'ingenzi kuko bituma ubasha kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze umudamu wambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba afite igikoresho yifashisha mu kugira ngo asuzume abantu aho ari gusuzuma umwana aho igikoresho cye yagikojeje kunda kugira ngo yumve uko ameze.

Ihuriro ry'abantu benshi biganjemo abadamu ndetse n'abakecuru bakuze; aho bari kwiga ku bintu bimwe bitandukanye byiganjemo iby'ubuzima; aho bambaye amataburiya y'ubururu ndetse bafite n'ibitabo mu ntoki basoma, baganira ku bintu byinshi bitandukanye higanjemo iby'ubuzima.

Abadamu babiri bakuze aho bari gutegura amafunguro mu gikoni, bose bambaye imipira y'umweru ndetse umwe akaba yambaye rinete afite n'itasi mu ntoki. Aho bari gutegura muri bimwe muri ibyo biribwa higanjemo imboga, harimo inyanya, pavuro ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umubyeyi ari gufasha umwana gusoma igitabo, aho umubyeyi wambaye amarinete ukuze ari gufasha umuhungu we, bambaye ishati y'umweru ndetse n'umukara imbere yabo bafite amatasi y'umweru, mu nzu nziza y'umweru aho bari gusubiramo mu gitabo bafite mu ntoki.

Abaforomokazi batatu bambaye ingofero z'umweru ndetse n'imyenda isa ubururu yabugenewe y'akazi kabo nka buri munsi, naho inyuma yabo hari ubusitani bwiza, ibiti byiza, aho bari mu kazi kabo ka buri munsi, aho bafasha abarwayi ibyo bakenerwa bya buri munsi.

Ikigo nderabuzima cya gisenyi imbere yacyo mu marembo yaho haje umunyonzi wari uzanye umukobwa warugemuye mu ndobo aho imbere y'iki kigo hari abarwayi benshi bicaye bategereje ababafasha.

Hopital la croix du sud n'ibitaro bizwi cyane biherereye i Remera hafi no kwa Lando, akaba ari ibitaro byubatswe mu buryo bugeretse buzwi nka etaje. Bikaba ari ibitaro bigaragara cyane bifite parikingi ihagije, byubatse nk'inyubako y'umweru iri mu mabara y'umweru ndetse n'amabara y'umuhondo.

Kigina health center, ikigo nderabuzima cya Kigina cyubatswe neza, mu nyubako nziza, igipangu cyiza, kikaba cyubatswe mu buryo bwa cadasteri, aho imbere yacyo hari umubyeyi uhetse umwana, ndetse akaba afashe inyuma ye bisa nkaho ari gusimbiza uwo mwana. Akaba ari ikigo cyiza cyita ku barwayi giherereye i Kigina.

Siporo ni ubuzima ndetse siporo ifasha umubiri kugira ubudahangarwa, aho udashobora kurwaragurika cyangwa se kugira indwara nyinshi zishobora kubangamira umubiri, umusore yari avuye rero muri siporo aho yara arimo arinanura, ndetse yambaye isaha y'umukara n'insengeri y'umweru aho yari gukoresha bimwe mu bice by'umubiri w'iwe.